Abantu bicaye baguwe neza barimo kuganira, akaba ari umugabo umwe n'abagore babiri, imbere yabo hari uducupa tw'amazi kandi rwose urabona ko bateze amatwi bakurikiye.

Onurayini shopingi puratifomu ni ahantu ushobora kuba wakoresha ugura ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ni apurikasiyo ushyira muri telefone yawe cyangwa muri mudasobwa yawe ukajya uhaha wibereye mu rugo.

Abantu bicaye neza, bateze amatwi bigaragara ko bari mu nama, hakaba harimo abapapa ndetse n'abamama, hakaba hari umumama uhetse umwana, ikindi kandi, imbere yabo hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi, hakaba hari n'umugabo wambaye agapira k'umutuku urimo gutanga ikiganiro.

Abantu bambaye neza bicaye bari mu nama ubona ko rwose ari abantu bakuze bakeye kandi bafite ikintu gikomeye bari kuganiraho, imbere yabo ku meza hari mudasobwa ndetse n'amacupa y'amazi yo kunywa, rero biragaragara ko ari abantu bakomeye cyane.

Abantu benshi bambaye neza, higanjemo abagabo, bigaragara ko barimo kwifotoza, hari igikorwa bamaze gukora cy'indashyikirwa. Inyuma yabo ku nyubako hari icyapa cyanditseho amagambo avuga ngo Kigali.

Abantu bicaye bari mu nama biganjemo abagabo imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi ndetse na ji, ibi byose akaba ari mu rwego rwo kugira ngo inama igende neza nta nkomyi.

Abantu bicaye barimo kuganira bigaragara ko hari ikintu barimo kwigaho, kugira ngo biyungure ubumenyi, imbere hari umumama urimo kubasobanurira ibintu byinshi bitandukanye.

Abantu bicaye bari mu nama, higanjemo abagore ariko bigaragara ko bishimye cyane byashoboka ko hari ikintu cyiza babonye.

Abantu bicaye mu nama ubona rwose ko banezerewe, kubera ko bicaye ahantu heza hasa neza, hejuru hari amatara meza, harasukuye neza, imbere yaho hari abayobozi barimo kurahirira inshingano, rwose urabona ko ari ibintu bisa neza. Nawe ubishoboye rwose wahatemberera, ukaza ukifatanya n'abandi.

Abantu bicaye mu nama bigaragara ko hari ikintu barimo kuganiraho, hakaba hari umuntu urimo kubaha ikiganiro kandi imbere yabo hari ameza meza ateretseho uducupa twamazi yo kuza kunywa igihe bagize inyota.

Abantu benshi bicaye mu nama, hakaba higanjemo abagabo, hakaba harimo umugore, iruhande rw'umugore, hakaba hari umusirikare wambaye impuzankano kandi hakaba harimo n'umudaso wambaye imyenda y'icyatsi.

Abantu benshi bicaye ndetse n'abahagaze bisa naho barimo kwifotoza, nyuma yin'inama basoje gukora, urabona ko imbere ku meza hari uducupa tw'amazi bahoze baranywa, ndetse n'intebe bahoze bicayeho hakaba hari ameza meza ariho ibitambaro by'umutuku bigaragara ko ari ahantu heza rwose bakoreye inama kandi rwose ubona ko bose hari ikintu bungukiye mu nama.

Abantu bicaye muri sitade y'umupira w'amaguru, ubona ko hari ikiganiro bateze amatwi, bicaye neza baguwe neza barishimye kandi rwose biragaragara ko bakurikiye, imbere yabo hari ameza meza ateretseho uducupa tw'amazi kandi hari umumama urimo kubagezaho ikiganiro.

Ku mihanda migari aho umuntu yambukira haba hari uturongo tw'umweru dutambitse. Umugenzi iyo agiye kwambuka arabanza akareba neza ko nta kinyabiziga kiri hafi kiri kwambukiranya umuhanda bityo akambuka. Ikinyabiziga nacyo iyo kigeze kuri iyi mirongo kigabanya umuvuduko ndetse kikanahagarara rimwe na rimwe.

Umugabo wambaye ishati ya kake isaha ku kuboko ndetse n'agasaraba ku kundi afite umusatsi uringaniye, imbere ye hari icupa ry'amazi ndetse na mudasobwa, inyuma ye hari icyapa kiriho idarapo y'u Rwanda.

Abantu bambaye imyenda isa bisa naho hari igikorwa bahuriyeho barimo gukora ,kandi hari umuporisi wambaye impuzankano w'umukobwa.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe bari mu nama bigaragara ko harimo n'abanyamahanga, imbere ku meza hari impapuro nyinshi cyane ndetse n'uducupa tw'amazi bisa nkaho hari ibibazo byinshi baganiriyeho.

Ahantu hubatse neza hari ibirango bya banki ya ekobanke bigaragaza serivisi batanga, iruhande rwaho hakaba hari amapoto ariho insinga z'amashanyarazi kandi hakurya yaho hakaba hari imodoka y'umukara, ikindi hakaba hari n'akayira kazamuka hejuru bigaragara ko ari kuri etaje.

Mudasobwa irimo ibara ryiza ry'ubururu hakaba handitsemo amagambo agaragaza ko batanga serivisi nziza z'irembo, ikindi kandi nawe ushobora kuza bakagufasha nawe ukabona serivisi wifuza binyuze ku rubuga rw'irembo.

Abantu bane bigaragara ko bahugiye muri mudasobwa, bakaba bafite ibintu byinshi bitandukanye barimo gukora mu rwego rwo kwihugura mu ikoranabuhanga, akaba ari abantu bane ariko umwe ari umukobwa abandi batatu ari abahungu.

Inzu y'umweru ifite inzugi z'umweru, mo imbere hakaba harimo ameza meza ateretseho ibikoresho, hakaba hari n'umuntu ku ruhande bigaragara ko atanga serivisi zijyanye no gukora ibyuma byangiritse bimwe twita ubutekenisiye.

Umunara mwiza cyane, utatse amabara y'umutuku n'umweru, umunara akaba ari igikoresho gifasha abantu kubona itumanaho. Ikindi kandi, umunara ni ikintu cyiza cy'ingenzi kuko udahari abantu ntibabona itumanaho. Iruhande rw'umunara, hari uturango turi mu ibara ry'umuhondo n'ubururu bigaragara ko ari utwa MTN. Hejuru hakaba hari ikirere cyiza cyane.

Umuhanda w'umukara aho uganisha ku bitaro byitwa Sehashiyibe, biri mu karere ka Huye, aho hahagaze umuntu uhagarika imodoka kugirango babanze basuzume icyo uje uhakora, hakaba hari imodoka nyinshi ziparitse.

Umuhanda munini hakurya y'umuhanda hari inzu nini icururizwamo ibintu bitandukanye hari icyapa cy'amata n'icyapa gicuruza farumasi n'imiti itandukanye.

Abakobwa babiri bahagaze iruhande rw'umukozi wa emutiyeni munsi y'umutaka w'umuhondo, bigaragara ko hari serivisi barimo kwaka, zirimo kubitsa no kubikuza, cyangwa se kugura amayinite.

Umuhanda wa kaburimbo utambitse, hakaba hari ipoto iri iruhande rw'igipangu kandi hakaba hari n'umucaca, bigaragara ko ari urugo rw'umuntu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo kunyuramo imodoka y'ubururu inyuma yayo hakaba hari umumotari, iruhande rw'umuhanda hari ipoto y'umuriro w'amashanyarazi kandi inyuma yayo hakaba hari igiti gifite amashami menshi.

Ipoto rijyana umuriro w'amashanyarazi, akaba ari ipoto rirerire cyane. Iruhande rwaryo, hari inyubako nziza y'igorofa, bigaragara ko yubakishije amatafari ahiye.

Ipoto y'amashanyarazi iri mu murima w'ibigori ubona ko ari ibigori bitarakura neza ariko ubona bitoshye, hirya hari urugo ubona ko ari ahantu haba abantu bishoboka ko yaba ari nabo ba nyiri ibi bigori.

Ipoto nziza y'amashanyarazi iri iruhande rw'igipangu cyubatse neza gisa neza, kandi iruhande rwaho hari ibiti byiza bizana umuyaga ndetse n'amahumbezi, bityo abantu bahaturiye bakabona umuyaga mwiza.

Ipoto y'umuriro w'amashanyarazi, iri mu gipangu cy'umuntu, iki gipangu kikaba gifite porotayi y'ubururu, iruhande rwa porotayi hakaba hari akazu k'ubucuruzi bigaragara ko bacuruza ibintu byinshi bitandukanye.

Ipoto y'umuriro w'amashanyarazi bigaragara ko ijyana umuriro hirya no hino mu duce tuhakikije, iruhande rwayo hakaba hari ibiti ubona ko biri gukura neza kandi hakurya hakaba hari amazu menshi bigaragara ko ari imiturire.

Umumama wishimye uhagaze mu iduka, akaba arimo kureba ibicuruzwa bye niba bimeze neza kandi byujuje ubuziranenge, mu rwego rwo kugira ngo atange serivisi nziza kandi zinoze.

Ahantu hagaragarara neza kandi hubatse neza hakaba hari amapave ashashe hasi, kandi hakurya hari parikingi y'imodoka iparitsemo imodoka nziza y'umukara, ikindi kandi hejuru hari ikirere cyiza gisa neza rwose.

Umuhanda w'umukara aho uganisha ku bitaro byitwa Sehashiyibe, biri mu karere ka Huye, aho hahagaze umuntu uhagarika imodoka kugirango babanze basuzume icyo uje uhakora, hakaba hari imodoka nyinshi ziparitse.

Akayira karimo kunyuramo abantu babiri, umwe ari umuhungu, undi ari umukobwa, bambaye hejuru umweru. hasi bambaye umukara, bakaba bakuruye akantu k'akuma gatwaweho udukoresho runaka bigaragara ko ari kwa muganga.

Icyumba kigaragara nkaho hari ahantu bigira ikoranabuhanga, hari abagabo babiri ndetse hari n'undi utari kugaragara neza, umwe yambaye ishati y'iroze undi yambaye ishati y'umutuku irimo utubara tw'umukara, imbere yabo hari amaterefoni menshi bigaragara ko bari kwihugura.

Abantu bari mu rukiko umwe arahagaze bisa naho ari umwavoka undi yambaye iroza bisa nkaho ari we wakoze icyaha.

Abantu batatu bicaye baguwe neza bambaye neza amakoti y'umukara, amashati meza y'umweru, akaba ari abakobwa babiri ndetse n'umuhungu umwe, ikindi kandi imbere yabo ku meza hari impapuro nyinshi ndetse n'agacupa k'amazi hamwe na terefone ndetse n'insakazamajwi.

Abantu bari gutambuka mu muhanda bambaye imyenda y'umukara, imbere hakaba harimo amashati y'Umweru ndetse bakaba bambaye n'ingofero bamwe muri bo, bigaragara ko ari abantu barimo gutambuka bizihiza umunsi mukuru wa graduation.

Inzu y'inama irimo abantu bahagaze bambaye amakanzu y'umukara, bamanitse amaboko kandi bafashe ku madarapo yigihugu cy'u Rwanda, bigaragara ko barimo kurahirira inshingano runaka bahawe.

Umumama mwiza cyane ufite umusatsi w'umukara muremure, akaba afite amaherena kumatwi, akaba yambaye agashati keza k'umweru ndetse n'agakote k'umutuku.

Umumama wambaye neza, wambaye amarinete, akaba yambaye ingofero nziza y'umukara, irimo akarongo keza kikigina ndetse n'uturongo dutoya tw'umweru, ikindi kandi yambaye ishati nziza y'umutuku, bigaragara ko akora mu rukiko.

Umumama mwiza cyane w'imibiri yombi wambaye amarinete abenshi bita amadarubindi, akaba yambaye ingofero nziza y'ubudodo iriho n'akarongo k'umuhondo, ikindi akaba yambaye agashati keza k'umutuku imbere yambariyemo agashati keza kameze nka buruze.

Inyubako iberamo inama ubona ko abantu benshi baje rwose bitabiriye inama bicaye bateze amatwi ibyo umuyobozi w'ikiganiro arimo kubagezaho ,akaba ari icyumba rwose gisukuye hejuru kirimo amatara menshi yaka neza rero nawe ubaye ubishoboye rwose waza ugakorera inama aha hantu kuko ni ahantu heza cyane.

Umumama w'imibiri yombi wambaye neza cyane, akaba yambaye ikanzu irimo utubara tw'umutuku, umukara, ikigina, kandi akaba afite umusatsi mwiza wa natireri.

Abantu babiri bahagaze bigaragara ko umwe ari umupolisi akaba arimo kwambika undi mapingu bisa naho hari icyaha yakoze, inyuma yabo kandi hari umumama uhagaze urimo kwitegereza ibikorwa umupolisi arimo gukorera undi mugabo, inyuma yabo na none hari undi muhungu uhagaze bisa nkaho ari umupolisi.

Icyicaro cya polisi y'u Rwanda mu Karere ka Gasabo mu Murenge wa Remera, iruhande rw'inzu hari abapolisi babiri, umwe ahagaze iburyo, undi ibumoso kandi bose bafite imbunda mu rwego rwo kurinda umutekano.

Abantu bari mu muhanda bambaye imyenda y'ubwirinzi kandi bafashe umupira urimo gusohora amazi bigaragara ko ari ahantu habaye inkongi y'umuriro bakaba barimo kuzimya inkongi yabaye mu rwego rwo kugira ngo umuriro udakomeza gusakara.

Umuhanda ni igikorwaremezo gifasha abantu bose mu buzima bwabo bwa buri munsi turavuga abamotari, imodoka ndetse n'abandi bantu bawukoresha mu buryo busanzwe burabafasha mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Abagenza amaguru mu gihe bambukiranya umuhanda, bakomeje guhabwa agaciro kabo bakambuka nta nkomyi, ibinyabiziga bigahagarara bakambuka neza.

Inzu nziza cyane iruhande rwayo hakaba hari amadarapo bigaragara ko ari ku murenge cyangwa se akaba ari ahantu umuntu ashobora kuza kwakira serivisi zitandukanye, mu nzego za leta.

Umupolisi wambaye impuzankano ya polisi y'u Rwanda, akaba arimo gufotora indangamuntu mu rwego rwo kugira ngo arebe niba indangamuntu yujuje ibisabwa, imbere ye hari imodoka nziza y'umukara iparitse kandi hakurya ye hari imodoka ziri gutambuka ndetse n'abamotari.

Umugore n'umugabo bicaye bigaragara ko bari mukiganiro, bambaye neza rwose, umupapa yambaye ishati nziza y'umweru n'ipantaro y'ikositimu, naho umumama yambaye ikote ryiza ry'ikositimu ry'icyatsi ndetse n'agapantaro keza k'ikositimu hamwe n'inkweto nziza zihagaze.

Abantu babiri bari mu cyumba cy'inama babiri n'abagabo abandi babiri ni abamama, umwe mu bagabo arahagaze bigaragara ko hari ikiganiro ari gutanga, asa n'umuyobozi wo mu ishyaka rya girini pati.

Urupapuro rw'itora rwanditseho Kagame Paul, hasi hakaba hariho amagambo avuga ngo umubare w'amajwi umukandida yabonye, bishatse kuvuga ko barimo kubara amajwi umukandida yagize.

Umugabo wayoboye Repubulika y'u Rwanda, akaba yitwa Habyarimana Juvenal, rwose ni umugabo ubona ko abyibushye yatamiye rwose, yambaye neza karuvati, ikote ndetse n'ishati nziza y'umweru, akaba afite umusatsi mwiza wa natireri.

Umugabo wambaye ishati irimo uturongo n'isaha kuboko kandi yambaye na karuvati nziza, ikindi kandi hirya hari imodoka y'umukara na none inyuma ye hakaba hari icyapa kigaragaza ko arimo kwiyamamariza kuyobora inshingano zimwe na zimwe mu gihugu.

Abantu bamanitse amaboko ndetse bafashe no ku madarapo agaragaza Igihugu cy'u Rwanda bivuze ko hari inshingano barimo kurahirira kugira ngo batangire bayobore.

Abagore benshi n'abagabo benshi bicaye ku ntebe bari mu nama batumbiriye imbere yabo bafite amazi yo kunywa ndetse n'ibindi bintu byo kunywa imbere yabo hari amamashini ndetse hari n'indangururamajwi zibafasha kumvikana.

Umusaza wicaye ku kagare kagenderaho abantu bafite ubumuga bw'ingingo, akaba arimo gushyira urupapuro mu gasanduku, bigaragara ko ari mu cyumba cy'itora.

Igipapuro k'inyemezabwishyu gitangwa n'ikigo cyimisoro n'amahoro, kikaba kigaragaza igiciro cyamafaranga iki kintu cyatanzweho nicyo gikorwa cyakozwe.

Imodoka y'igikamyo ifite kabine y'ubururu ikaba irimo kuzamuka iruhande rwayo hakaba hari indi modoka y'umutuku yo mu bwoko bwa howo bigaragara ko bigiye kunyuranaho.

Akazu k'umuhondo gakorerwamo n'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya emutiyene, harimo umugabo uhagaze witeguye guha serivisi abaza bamugana zirimo; kubitsa, kubikuza, cyangwa kohereza amafaranga.

Imodoka yo mu bwoko bwa toyota iri mu muhanda yerekeza iburyo, mu mugihe inyuma yayo hari indi modoka y'umukara irimo kuzamuka yerekeza ibumoso kandi inyuma yayo hari moto ndetse n'iruhande rwayo.

Imodoka y'umweru iri mu bwoko bwa dayihatsu iri mu muhanda wa kaburimbo ubona ko ipakiye imizigo, inyuma yayo hari moto irimo kuza iyisanga kandi inyuma y'iyo moto naho hari izindi modoka zirimo kuza ziyisatira.

Abantu batandukanye barimo abagore n'abagabo bari mu cyumba cyabugenewe gukorerwamo inama kirimo ameza yabugenewe ndetse n'intebe z'umukara zicayemo abo bantu bafite n'ama mashini bari kwiga ku kibazo runaka cyabahurije aho hantu.

Bisi nziza itwara abagenzi mu mujyi wa Kigali abenshi bazi nka shira umuteto ikaba itwaye abagenzi benshi bigaragara ko bamwe bahagaze abandi bicaye hanyuma iruhande rwayo hari umupapa urimo gutambuka kandi hirya hari ibiti byiza bikikije umuhanda .

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga byinshi bitandukanye hakaba harimo aka moto kari mu bwoko bwa rifani kagira amapine atatu, karimo kumanuka kakaba gafite ikintu cy'ubururu inyuma bigaragara ko gatwara imizigo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abamotari benshi, inyuma yabo hakaba hari umunyonzi ndetse n'ibikamyo bitwara imizigo, inyuma ku ruhande rw'umuhanda hari ipoto y'amashanyarazi ndetse n'ibyapa bizwi nka feruje biyobora ibinyabiziga mu rwego rwo kwirinda ambutiyaje kandi hakurya hari ishyamba ryinshi.

Imodoka nziza ya tagisi vuwatire akaba ari imodoka y'umweru irimo akarongo k'umuhondo, ifite amapine ane, hirya yayo hari abamotari batatu batwaye abagenzi hirya yabo kandi nan nonene hakaba hari umumama uri kureba muri telefone, iruhande rwe hakaba hubakiye bigaragara ko hari ibikorwa bijyanye n'ubwubatsi biri kuhakorerwa.

Iri ni itopo ryifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi kubera insinga bagenda bamanikaho, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku batuye aho bose.

Nta muntu utagira inzozi zo kuba mu nzu nziza kandi yubatse neza iyo nzu iri mu mujyi wa kigali uyishaka ni igihumbi kimwe cy'idolari gusa wishyura buri kwezi maze nawe ukibera ahantu heza hatekanye.

Umuhanda uparitsemo moto, moto yicayeho umumotari wambaye ijire y'umuhondo, ndetse irimo n'utubara tw'ubururu iruhande kandi hari igororofani hakaba n'imodoka nziza ikindi kandi hakurya hari imodoka nziza nini ya bisi itwara abagenzi.

Imodoka eshatu ziparitse iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo imwe ikaba ari umweru irimo n'utubara tw'umutuku ndetse n'umuhondo indi ikaba iri mu ibara risa nk'ikijuju hanyuma indi iri imbere nayo ikaba isa umweru.

Imodoka ya dayihatsu iri mu muhanda wa kaburimbo, ikaba itwaye ibyuma, ndetse n'imizigo itandukanye, iruhande rwayo, hari umumotari utwaye umugenzi, kuri moto ya bogiseri.

Ahantu haparitse imodoka nyinshi bigaragara ko ari muri parikingi cyangwa se muri gare, hakaba hari abantu bahagaze iruhande, umwe areba hino undi areba hirya, ikindi kandi hakurya bigaragara ko hari abantu benshi, bashobora kuba baje gutega izi modoka.

Moto zifashishwa mu gutwara abagenzi ubona ko ari moto z'ubwoko butandukanye, bogiseri, tevisi ndetse na moto zidakoresha esanse ahubwo zikoresha umuriro w'amashanyarazi, iruhande hari umumotari utwara imwe muri izi moto kandi hakurya hari umugenzi urimo gutambuka.

Moto iri muri kaburimbo yo mu bwoko bwa rivani, ikaba iriho ishitingi yanditseho nimero za nyirayo ku buryo ushobora kumuhamagara ubundi nawe akaguha serivisi zitandukanye atanga zirimo, gutwara ibicuruzwa cyangwa se imizigo akayikugereza iwawe.

Ububiko bwi'ibyokunywa bukubiyemo imitobe umuhondo, umutuku n'amata bubitse mu buryo bwo kugirango bukonjeshwe bukunze kwifashishwa n'abacuruzi kugira ibyo kunywa bidapfa kandi babishyikirize abaguzi bimeze neza.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abamotari babiri umumotari umwe atwaye moto ya boxsel kandi ahetse umugenzi undi atwaye moto yo mu bwoko bwa moto zikoresha amashanyarazi ariko nta mugenzi atwaye.

Abamotari babiri baparitse moto zabo barimo kwiganirira ubona ko bahuje urugwiro, babaye barimo kwiganirira mu gihe bategereje abagenzi, mu muhanda kandi harimo undi motari urimo kugenda ashakisha abagenzi, inyuma y'abo bamotari babiri hari icyapa kigaragaza ko iruhande rwaho hatangirwa serivisi zijyanye na banki ndetse n'irembo.

Imodoka ebyiri zizwi nka taxi voiture zitwara abagenzi zirahagaze zitegereje abagenzi inyuma yazo hari aba agenti ba MTN bicaye bisa naho bategereje abakiriya mu rwego rwo gutanga serivisi zirimo kubitsa ,kubikuza ndetse no gutanga ama inite.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, bigaragara ko urimo abantu benshi buri wese arimo kwigira muri gahunda ze, iruhande rw'umuhanda hari inyubako nyinshi nziza zitandukanye, bigaragara ko hakorerwa ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi.

Icyapa kiyobora abantu gifite umuzenguruko wa mpande eshatu, uri mu ibara ry'umutuku nko hagati hashushanyijemo umuntu urimo gutambuka, bishatse kuvuga ko hemerewe kunyurwa n'abantu.

Amafaranga y'amadorari azinze mu mifungo akaba ari imifungo itandatu iyi mifungo uyibonye yaguhindurira ubuzima rwose kuko amadolari ni amafaranga menshi cyane kandi avunjwa amafaranga menshi uyashyize mumanyarwanda rero uwayaguha wahita ugira ubuzima bwiza.

Icyapa cyiza cyifashishwa mu muhanda mu rwego rwo kuyobora abantu, gifite umuzenguruko wa mande eshatu, kikaba kirimo agafureshi gakata, bishatse kugaragaza ko imbere hari ikorosi, iruhande rwacyo hari inyubako y'ubucuruzi.

Icyapa cy'ubururu kiriho inyuguti ya pi hasi hashushanyijeho imodoka ya bisi bishatse kuvuga ko haparika imodoka za bisi zitwara abagenzi ikindi kandi hakurya hari inyubako nziza ya etage bigaragara ko ari inyubako isukuye.

Nta muntu utagira inzozi zo kuba mu nzu nziza kandi yubatse neza iyo nzu iri mu mujyi wa kigali uyishaka ni igihumbi kimwe cy'idolari gusa wishyura buri kwezi maze nawe ukibera ahantu heza hatekanye.

Inzu nziza cyane bigaragara ko ari etage iruhande rwayo hari igipangu cy'ubakishije amatafari ahiye hejuru hakaba hariho uturongo tw'umweru .

Isangano ry'imihanda bigaragara ko ari Kimironko kwa Mushimire, hakurya hari inyubako nyinshi cyane, rwose biragaragara neza kuko hari imiturire myinshi cyane, ikindi hano hari imikindo myiza cyane.

Abagore benshi n'abagabo benshi bicaye ku ntebe bari mu nama batumbiriye imbere yabo bafite amazi yo kunywa ndetse n'ibindi bintu byo kunywa imbere yabo hari amamashini ndetse hari n'indangururamajwi zibafasha kumvikana.

Inyubako nziza y'igorofa bigaragara ko yubatswe neza ikubakwa n'abahanga, ifite igipangu cyiza cyane, kuko ushobora gukingura porotayi, ugakingurira iburyo n'ibumoso.

Inyubako nini yiganjemo ibara ry'umweru n'umukara ihagaze ahantu hirengeye ubona ko iri ku isoko kandi igurishwa amafaranga make uyishaka yayibona ku giciro cyiza.

Amazu meza cyane ari i Kanombe iruhande rw'umuhanda, bigaragara ko ari amazu atuwemo n'abantu rwose, nawe ushaka wahatemberera ukirebera kuko ni amazu meza, akeyeye kandi afite isuku.

Inyubako nziza cyane ifite amabati meza, yubatse neza, ifite igipangu cyiza, rwose ubona ko ari ahantu heza buri wese yakwifuza gutura, hejuru hari ikirere cyiza gikeye, bigaragara ko nta mvura iribuze kugwa.

Serivisi za banki ya kigali zegerejwe abaturage ahanga baragaragaza uko ibikorwa biri kugenda bikorwa aho bagaragaza ko batanga serivisi zo kubika, kubikura, kuguriza ndetse no kwakirana yombi abakiriya bakagira bati murakaza neza.

Umuhanda wa kaburimbo uri iruhande y'amazu y'abaturage ubona ko ari amazu yubatse neza kandi ari ahantu mu rusisiro, hejuru haciye insinga z'amashanyarazi, zijya mu ngo z'abaturage. Kandi hagati y'amazu hagiye hateye insina, ibiti, ibi byose akaba ari ibituma habaho umuyaga, n'amahumbezi.

Akazu k'umuhondo gatangirwamo serivisi za MTN kari iruhande rw'umuhanda nyabagendwa imbere yako hari umuntu uri kwaka serivisi zijyanye no kubitsa no kubikuza ndetse n'ama inite kandi mu muhanda nyabagendwa harimo abantu bari gutambuka bigaragara ko ari muri site y'ubucuruzi .

Icyapa cya ke ke mirongo itanu n'icyenda, kiri iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo kigaragaza agace k'umuhanda, nawe igihe ushaka kuza muri aka gace ushobora kwifashisha iyi mibare, bityo bikakorohera kumenya agace ugiyemo, kubera ko abamotari bahita bahakugeza byihuse, iruhande rw'iki cyapa kandi hari umumotari muri kaburimbo bigaragara ko ategereje abagenzi.

Umuhanda wa kaburimbo uhura n'uwundi hakurya yawo hari ibiti byiza rwose bitoshye hakurya y'ibiti hakaba hari inyubako nziza rwose zigeretse n'izitageretse bigaragara ko ari ahantu mu mujyi .

Umuhanda wa kaburimbo urimo kunyuramo abamotari batatu bose bakaba batwaye abagenzi ,ubona ko bafite ahantu hamwe barimo kwerekeza kuko bari mu cyerekezo kimwe ,mu w'undi muhanda wo hirya k'uruhande hari kunyuramo ikamyo y'ubururu ubona ko nayo iri kwerekeza mu cyerekezo barimo kujyamo.

Amafaranga y'amadorari azinze mu mifungo akaba ari imifungo itandatu iyi mifungo uyibonye yaguhindurira ubuzima rwose kuko amadolari ni amafaranga menshi cyane kandi avunjwa amafaranga menshi uyashyize mumanyarwanda rero uwayaguha wahita ugira ubuzima bwiza.

Iduka rya emutiyeni mobayiri mane ritanga serivisi zo kubitsa ndetse, no kubikuza hakaba hariho icyapa cya momo kiri mu ibara ry'umuhondo akaba handitseho izina ry'uburi uri bwishyure ndetse na kode wakoresha mu gihe ugiye kwishyura uwo muntu bikaba byandikishije ibara ry'ubururu kaba riteretse kukameza k'umweru.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, iruhande rwawo hari kamera zo ku kumuhanda abenshi bazi nka Sophia; izi kamera zikaba zifashishwa mu rwego rwo gufotora ibinyabiziga kugirango bamenye umuvuduko ikinyabiziga cyari kiri kugenderaho. Hakurya y'umuhanda hari akajaride keza cyane, karimo ubusitani bwiza ndetse n'ibiti byiza .

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikorosi ruguru yaho hari umucaca, ndetse n'ibiti byiza cyane hakurya hari inyubako ndende ikirere cyaho bigaragara ko gisa umweru, mbese nta mvura ahari iri buze kugwa.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imodoka nyinshi zitandukanye, byumwihariko akamodoka kari mu bwoko bwa Toyota gatwara inyama. Imbere yako hakaba hari umuntu utwaye akagare kongezwa.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abamotari benshi ndetse ubona ko hari n'umuntu wambaye umupira w'umweru, urimo gutambuka iruhande rw'umuhanda kandi na none imbere hari icyapa kiyobora abantu, ubona ko kibafasha kumenya ibyerekezo by'umuhanda.